Mu rwego rwo gucukura ndetse no guhinga ibiti bivangwa n'imyaka, ni ngombwa ko abantu bakangurirwa akamaro kabyo bwa mbere kugira ngo babone kubikora.

Mu bikorwa by'ubutabazi binyuze mu kigo gishinzwe gutabara imbabare kuruwaruje, biravugwa yuko bimaze gutanga ikizere cy'ubuzima bw'abaturage kuko ubu nta muntu ukirembera mu rugo.

Mu rwego rwo gufasha abahuye n'ikibazo k'impanuka ndetse n'inkomere hakwiye gushyirwaho uburyo bwo gushyiraho imbangukiragutabara zizajya zihita zifashishwa kubageza kwa muganga vuba.

Igikorwa kiri mu byiza biri ku isonga mu gihugu cy'u Rwanda harimo nko gutanga amaraso, ndetse no gutabara indembe, abaturage bashishikariza gutanga nibura amaraso kabiri mu mwaka.

Mu bitanda kwa muganga hashyizweho uburyo bwo gufasha abarwayi bahuye n'ibibazo birimo nk'agisida kugira ngo babashe gukurikiranwa vuba kandi ntibibaviremo urupfu.

Mu kuvura indwara z'imvune cyane cyane iz'amaguru, ni ngombwa ko hashyirwaho sima kugira ngo igufwa n'irindi bizafatane.

Abantu batandukanye bakora igikorwa cy'ubukorerabushake mu kigo k'igihugu gishinzwe gutabara imbabare kizwi nka kuruwa ruje kuri ubu bakaba bahawe seritifika zizajya zibafasha mu gutanga umusanzu wabo.

Mu gukora ibikorwa by'ubutabazi birimo no gukingira indwara zirimo ibyorezo, hibandwa cyane cyane ku myenda izwi nk'impuzankano ifite ubwirinzi buhambaye, kugira ngo abaganga batasiga ubuzima.

Mu rwego rwo kwirinda ko habaho gutakaza ubuzima bw'abantu, ni ngombwa kwitwararika mu gihe bari kurohora abandi bakoresheje imigozi kuko ishobora gucika bose bakagwama.

Abantu barara kwa muganga, bavuga yuko hakomeje gushyirwamo udushya dutandukanye bitewe n'uko ibitanda bisigaye bikoreshwamo, ari ibitandaza bifite karite iri hejuru.

Ibyuma birimo ibikonjesha imirambo ndetse n'ibindi byifashishwa cyane mu bikorwa by'ubuvuzi kubera ko hari benshi baza babigana ugasanga birabuze ariko ubu byarabonetse.

Mbere yo kugira ngo wemererwe gutanga amaraso, ubanza gupimwa neza kugira ngo barebe niba wemerewe gutanga amaraso, ibi bikorwa nta gahato kuko burya ngo gutanga amaraso, ni ugutanga ubuzima.

Abarangije gukora amahugurwa, bakangurirwa gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo umuntu uwo ari we wese azamenye igikorwa bari bateraniyemo, kibahurije hamwe.

Gukingiza abana na byo ni byiza kuko igihe bidakozwe neza abana bahura n'ibibazo birimo kurwara mugiga ndetse n'izindi ndwara zituma badindira mu mikurire yabo.

Ibitonyanga bitatu, kugera kuri bitanu by'umuti uvura impiswi ndetse n'inkorora, bifasha cyane abana bari munsi y'imyaka itanu, mu gukura kwabo ndetse hirindwa n'igwingira.

Ibitanda bikoreshwa kwa muganga, bikomeje gushyirwamo ingufu, bitewe n'uko igihe umurwayi yitaweho ndetse n'umurwaza agahabwa aho yicara, bifasha neza uwo murwayi gukira.

Mu bitaro igihe bari kwita ku barwayi ni ngombwa ko bagomba gushyirirwaho inzitiramibu zibarinda kurwara ndetse no kurumwa n'umubu utera Malariya.

Abakora ibijyanye n'ubucuruzi ndetse bakihangira imirimo baravuga ko bishimira ikizere bagiriwe n'ibigo by'imari byabahaye inguzanyo yabafashije kwiteza imbere.

Abarwayi na bo hari imyitozo bahabwa kugira ngo barebe niba babasha gusezererwa ntibibagireho ingaruka, kuko umubiri wabo uba warahatikiriye.

Mu birunga na ho harimo gushyirwa ingufu mu guteza imbere ubukerarugendo kuko abantu babava i mahanga biyongereyeho mirongo itanu ku ijana ugereranyije n'umwaka washize.

Mu mahugurwa yahuje urubyiruko rusaga magana atanu ruturuka mu Turere tugiye dutandukanye tw'Igihugu rwigiye hamwe ingamba zo guhashya ikibazo cy'ubushomeri mu banyarwanda.

Imbangukiragutabara igihe ari ari nyinshi byorohera abarwayi kugera ku bitaro vuba kandi mu buryo bworoshye kuko igihe hadakozwe ubutabazi bwazo umuntu agera kwa muganga yashizemo n'umwuka.

Aho bavurira amaso mu bitaro bya CHUB mu karere ka Huye, abarwayi bakomeje kwiyongera cyane cyane abaturuka mu mavurero akikije inkengero z'umujyi w'aka karere.

Abayobozi bashya, barimo urubyiruko bagera kuri batandatu, barahiriye inshingano nshyashya bahawe, ndetse bavuga ko batazakoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite.

Uwakoze neza arahembwa. Ibi byagarutseho n'ubwitange ku muntu wagize umutima mwiza wo gufasha indembe, aho yatanze amaraso mu gihe cy'imyaka icumi ishize, agatabara indembe.

Mu gupima ubwoko bw'amaraso, ni ngombwa yuko hagomba gukorwa ubushishozi buhambaye bw'abaganga, kugira ngo harebwe neza isano umuntu yaba afitanye n'undi, ibi bizwi cyane nka ADN.

Mu buryo bwifashishwa n'abaganga mu kureba indwara zitagaragarira amaso buzwi nka mikorosikope, bukomeje gushyirwamo imbaraga kuko ikomeje kuvumbura indwara zitandukanye.

Abaganga baragirwa inama yo kwambara neza uturindantoki ndetse byaba ngombwa hakanashyirwaho ingamba z'abatabyubahiriza kuko igihe bidakozwe bityo indwara z'ibyorezo zibasha kubaca urwara.

Abaganga bakora ibikorwa byo kuvura abaturage, birakwiye yuko baba bambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'uturindantoki tuzajya tubafasha ko bakwirinda indwara zandura.

Mu bubiko bw'ibitaro hagomba kwitabwaho ndetse hirindwa ko hagira ibintu biteza akavuyo ndetse no kugaragara nabi, igihe bari kuhakoresha.

Mu gihe bari gupima udukoko tutagaragarira ijisho nka SIDA, imitezi n'ibindi bakoresha agakoresho kamamaye cyane mu by'ubuvuzi kitwa mikorosikope, aho kifashishwa mu kuvumbura izo ndwara.

Mu kuvura abantu baje bagana abaganga ni ngombwa yuko hihutishwa iyo gahunda bitewe nuko igihe habayeho umubyigano serivise ziba zatangiwe aho bivuga ko ari mbi.

Abanyeshuri bakora amasitaje mu bigo bitandukanye by'ubuvuzi na bo bashyiriweho uburyo bazajya bakora ibikorwa byo kwihugura mu mashuri yabo bigamo.

Bimwe mu bikoresho kabuhariwe bikoreshwa kwa muganga cyane cyane mu nzu zisuzuma ibizamini zizwi nka laboratware, hari ibikoresho bivugwa yuko biboneka bihenze bitewe n'uburyo biba bikomeye.

Ubushakashatsi bwakozwe mu myaka itanu ishize bugaragaza ko impfu z'abana bapfa bavuka zagabanuyutse ugereranyije n'imyaka ya za bibiri na gatatu kuzamura kuko hashyizwemo ingufu zikomeye.

Umubyeyi avuga yuko nyuma yo gukingiza umwana we, ubu yishimye kandi aguwe neza bitewe nuko igihe umwana we adakingiye bimutera ikibazo cyuko ashaka kwandura indwara.

Ni ingenzi cyane gushyira umwana ku ibere paka agejeje ku mezi atandatu, nta kintu na kimwe avangiyewe ndetse yewe n'amazi ntago aba ayemereye, kugira ngo azabashe kugira ubuzima bwiza.

Abana bafata ifunguro rya mu gitondo ndetse n'irya saa sita mu marerero atandukanye, bivugwa yuko iyifu bafata ari iya shisha kibondo izajya ibafasha neza mu gukura kwabo.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke ni ngombwa kugira ngo umwarimu abatoze uturirimbo tubafasha kuruhuka ndetse bakiyibagiza ibyo bari barimo kugira ngo bongere bige neza.

Kwigisha abana bakiri batoya byongera icyizere ndetse n'uruhare leta y'u Rwanda ishyiramo mu guteza imbere abana ndetse n'uburezi muri rusange.

Mu gikorwa cy'ubutabazi cyakozwe n'ikigo gishinzwe gutabara imbabare Croix rouge, byavuzwe y'uko abaturage bagize uruhare mu gutuma iki gikorwa kibaho kuko ari indashyikirwa.

Umuyobozi w'ikigo Duhamic-Adri gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'ubuhinzi, aravuga yuko ibyo bintu igihe bishyizwemo ingufu nta muntu wazongera kwicwa n'inzara.

Abayobozi batandukanye bambaye imipira y'umutuku ifite amakora y'umweru ndetse n'ingofero z'umukara n'abandi bafite iz'umuhondo, bakoze inama yiga ku bijyandanye no kuzamura ikigo bahuriyemo cyo guteza imbere ubukerarugendo.

Umuyobozi uhagarariye ikigo gishinzwe ubuzima RBC, aragira abanyarwanda inama ko muri iki gihe k'ibyorezo bakwiye kwirinda guhurira ahantu mu ruhame ndetse bakanakoranaho.

Umugabo ndetse n'umugore bari mu kigero k'imyaka ya mirogo inani bagiye kwa muganga, mu rwego rwo kugira ngo bagirwe inama z'uburyo batazongera kurwara imivuduko y'amaraso.

Abantu batandukanye bahuriye mu gikorwa cyo gusobanurirwa ndetse bakumvishwa akamaro ko guhinga imbuto y'intoranwa mu rwego rwo kugira ngo hirindwe igihombo.

Mu bigo bicuruza imiti ndetse hamwe n'iyo kwa muganga, biravugwa yuko igihe umukiriya agiye kwishyura, agomba gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, yishyura kuri telefone, bityo bikamufasha kwihutisha iterambere.

Inzu zitanga imiti, irimo iri mu ducupa ndetse n'amasabune yifashishwa mu kuvura ndetse no kwica udukoko ku mubiri, bivugwa yuko bikomeje gucururizwa mu mafarumasi atandukanye mu gihugu.

Amogisirine ni umuti ukoreshwa cyane cyane n'amatungo, bitewe n'uko uyu muti uyafasha gukura neza ndetse akaba yazamuka, nta kibazo afite mu mikurire yayo.

Kipharma ni imwe muri sosiyete igurisha imiti yo kwa muganga ndetse ikaba inafasha abantu bayigana, kubona imiti kandi badahezwe ndetse bakanakiranwa akanyamuneza.

Inzu zicuruza imiti, mu mujyi wa Kigali, biravugwa y'uko zikomeje kugira uruhare runini, mu gufasha abantu ndetse n'ababyeyi babyifuza, kuza kuhafata iyi imiti kuko iba idahenze cyane.

Yaba abagabo ndetse n'abagore nta n'umwe uhejwe muri serivisi z'ubuzima, aho buri wese aba yemerewe gutanga imwe muri izo serivisi cyangwa akazikora zose.

Imiti igurishwa n'abaganga bakorera muri farumasi, biravugwa yuko ikomeza kuzamura ibiciro bitewe n'imisoro byazamutse bitewe n'ibura rya peteroli.

Hari imiti igenda yifashishwa mu mafarumasi, harimo n'iyica udukoko ubundi iyindi ikaba ivura indwara zitandukanye z'abantu ndetse n'ibindi.

Inzu zicuruza imiti iyo kwa muganga zizwi nka farumasi, hashyizweho itegeko ry'uko abacuruza iyo miti bagomba kuba bambaye impuzankano y'umweru ibaranga.

Ivuriro gakondo rivurisha ibimera, riravuga ko rivura rikoresheje ibyo bimera byose mu rwego rwo kwirinda ko hagira uhatakariza ubuzima.

Ibinini cyane cyane bivura umutwe bizwi nka paraasitamoro ndetse n'ibindi bigabanya ububabare, ni byo biri kuza ku isonga mu kugurishwa cyane bitewe n'uko bidahenze kandi abantu benshi babikenera.

Ibinini bivura umutwe, ibi bizwi nka parastamoro, binini byavuguruwe ngo bitera kanseri ndetse umuntu wabinyoye akaba ashobora no guhura n'ikibazo cyo kuba umusazi burundu.

Turwanye ibiyobyabwenge ni igikorwa cyashyizweho buri mwaka kugira ngo urubyiruko na rwo rufate uruhare mu kurwanya ndetse no gukumira ibiyobyabwenge byibasira abantu bari munsi y'imyaka makumya n'itanu kuzamura.

Uburyo bwo gukangurira abantu kwirinda indwara zituruka ku mirire mibi, hashyizweho gahunda yo kuzajya harebwa niba nta muturage ufite abana bafite ikibazo cy'igwingira kugira ngo nawe yitabweho.

Abantu benshi bateraniye mu gikorwa cyo gupima abana uburebure, ubundi bafata umwana umwe bamuryamisha ku rubaho kugira ngo barebe uburebure afite.

Mu buryo bwo gukangurira urubyiruko cyane cyane kwirinda indwara zandura ndetse no kwishora mu biyobyabwenge, hari inama yarwo yateguwe ku rwego rw'Umurenge, ubundi higwa ku ngamba zatuma ibyo byose bihagarara.

Mu rwego rwo kwirinda Malariya, Ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC kiravuga yuko hakwiye ko abaturage bamenya ndetse bakanasobanukirwa uburyo umubu ukwirakwiza Malariya wororoka ubundi bakawuhashya.

Umuyobozi yabwiye abaturage biganjemo urubyiruko ko bagomba kwizigama ndetse bakirinda ibishuko, mu rwego rwo kugira ngo bagere ku nzozi zabo.

Abana bahawe inkunga ingana n'ibihumbi magana abiri mu gikorwa k'indashyikirwa bakoze cyo guhangana n'ihohotera rikorerwa igitsina gore.

Ibibabi by'ibiti, imizi ndetse n'ibindi ni byo byifashishwa mu gihe hagize ugana bamwe mu bavuzi ba gakondo, ubundi agategekwa kubinywa ndetse n'ibindi akabyisiga.

Ubuvuzi bwa Kinyarwanda ntabwo bikemangwa kuko ntabwo bivugwaho rumwe n'abantu benshi, cyane cyane abo mu nzego z'ubuvuzi, kuko bavuga ko bituma abantu bahatakakariza ubuzima.

Mu bikorwa byo kuvura kinyarwanda birimo nko kwifashisha ibyakatsi bitandukanye abasaza benshi usanga aribo bagaragara muri iyi mirimo y'ubuvuzi bwa gakondo.

Abakora ubuvuzi benshi bakunze kwita ubuvuzi gakondo bavuga ko imiti batanga ivura ariko Leta y'u Rwanda ikaba ibirwanya bitewe n'uko bidaca mu mucyo.

Bimwe mu byatsi bimera mu Gihugu cy'u Rwanda cyane cyane bifite uturabo tujya gusa nk'umutuku bivugwa ko bishobora gutanga umuti kandi buri wese atabasha kwigurira aho abonye hose.

Abakora ibikorwa byo kugorora ingingo z'umubiri ibi bizwi nka masaje bakorera mu mujyi wa Kigali bavuga ko rwose ababikora neza bibatunga ndetse bikishyura n'amashuri y'abana babo.

Umuti umeze nk'urusenda rw'ifu mbese ufite ibara risa nk'umutuku ndetse n'ibindi bimeze nk'imyumbati ni byo abaganga ba kinyarwanda bifashisha bavura abarwayi.

Abakora ibikorwa byo kugurisha imiti gakondo ingibi bizwi nk'abaganga ba kinyarwanda, bakomeje gutera inkeke Leta y'u Rwanda, kuko umubare w'abahasiga ubuzima umaze kuba mwinshi.

Ibibabi by'inturusu ndetse n'utubuto twabyo tumwe twifashishwa mu guhumbika inturusu nto ni byo byakusanyijwe maze ubundi bishyirwa ahabugenewe kugira ngo bizume bivemo ifumbire.

Umuravumba uri mu kimera, gikoreshwa cyane mu kuvura indwara, zirimo ibicurane n'inkorora ndetse kandi ukaba uzwiho ko umenywa n'abantu benshi kuko buri wese azi akamaro kawo.

Abajyanama b'ubuzima barabwira cyane cyane ababyeyi b'igitsina gore ko igihe umwana atitaweho mu minsi igihumbi ye, ashobora guhura n'indwara zitandukanye zirimo n'ibyorezo.

Abantu benshi baragirwa inama y'uko hakwiye gushyirwamo ingamba mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko ibi bintu bidakwiye kubaho mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo bikwiye kurwanywa.

Gupima abantu ubwandu bwa virusi itera sida, ni byiza ko umuntu wese yumva agaciro ndetse n'umumaro wabyo, kuko bituma umenya ko uhagaze, ukabasha kumenya uko witwara.

Ni byiza ko abakozi bose bafite aho bahurira na gahunda z'ubuvuzi, kwambara agapfukamunwa ndetse n'indi myenda yabugenewe mu gihe bari mu kazi kuko bigabanya ibyago byo kwandura indwara z'ibyorezo.

Mu gukora igikorwa cyo gukingira abantu indwara z'ibyorezo harimo na Covid cumi n'icyenda, umubyeyi ukuze uri mu kigero cy'imyaka mirongo inani nawe yitabiriye iyi gahunda yo gukingirwa.

Abaganga na bo si ngombwa ngo babe ari urubyiruko ahubwo n'abasheshe akanguhe bakomeza gukora akazi kandi wareba ugasanga nta kibazo biteye ugereranyije n'indi mirimo ikorwa mu gihugu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ubuzima bw'abantu, biravugwa yuko abayobozi bacyo bagiye gukora ubukangurambaga harebwa uburyo hakwirindwa indwara z'ibyorezo.

Ni ngombwa kubanza kumenya igipimo cy'umuti ugiye gutera umurwayi, bitewe n'ibiro afite ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ubudahangarwa bw'umubiri we kuko hari igihe ashobora kuhasiga ubuzima.

Umubyeyi ukuze, wifubitse igitambaro, biravugwa ko na we yasobanukiwe akamaro ka kandagira ukararabe, aho avuga ko ibi birinda indwara, zandura cyane cyane iz'ibyorezo.

Muri gahunda ya Gira ubuzima abaturage bose bakanguriwe kugana ibigo nderabuzima bibegereye kugira ngo basuzumwe ndetse n'ababyeyi batwite bahabwe imfashabere mu gihe bazaba babyaye bazite ku bana babo.

Imiti y'amatungo cyane cyane y'ibiguruka nk'inkoko n'imbata, ikomeje gukwirakwizwa mu maguriro y'imiti y'amatungo mu gihugu, bitewe nuko iyi miti iri kubafasha aborozi bayo kuzamura umusaruro.

Abaganga na bo bagirwa inama yuko igihe abantu baje babagana, bagomba kubaki na yombi kandi ntibabaseke bitewe n'ubumenyi buke baba bafite, ubundi gahunda zigakomeza.

Ahantu aho ariho hose hahurirwa n'abantu benshi birakwiye ko hashyirwaho ubusitani ndetse byaba akarusho hakubakwa inzu z'ubwiherero kugira ngo buri wese uzajya ubugana ajye ahabonera isuku kandi yifuza.

Umuganga ni ngombwa ko abanza agatega amatwi umwana ndetse n'umubyeyi akumva bimwe mu bimenyetso bafite ubundi akamenya uburyo abavura abanje kubandika.

Abantu bafata imiti ndetse n'ibinini bya vitamine bavuga ko bibafasha cyane kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza ugereranyije n'abantu bataza kubiyifata, binubira iyi gahunda kandi ari nziza.

Ababyeyi bagana ibitaro, bavuga yuko bahabwa serivisi nziza ku barwayi babo, bitewe n'uko hashyizweho inzitiramibu zizajya zibafasha, kwirinda kwadura Malariya.

Kandagira ukarabe ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu bigo bya Gira ubuzima, aho abantu baza babigana babanza gukaraba intoki ndetse n'isabune kugira ngo hirindwe ko bakwanduzanya indwara zandura.